Abantu benshi bahagaze imbere y'akazu gashinze ku muhanda kubakishije ibyuma, bari kurebera mu idirishya n'imbere harimo umuntu bivuze ko hari ibyo bari kuganira.

Umuntu w'umusore ari mu kazu kari ku kumuhanda kagizwe n'ibiti gasize irangi ry'icyatsi kibisi.

uUmugabo wambaye ijile y'umuhondo, yicaye mu ntebe, ari kwitegereza ahantu. Gusa ntiyishimye, bigaragara ko afite ibyo ari gutekereza.

Umuhungu ndetse n'umukobwa bari mu kayira k'abanyamaguru imbere y'umuhanda w'amabuye, iruhande rwaho hari akazu k'ubucuruzi gasize irangi ry'umuhondo ni keza.

Icyapa cyangwa se ikirango cyanditseho amagambo nka Iirembo, Banki ya Kigali ndetse bigaragara yuko kiri kurangwa kiri kuranga ahatangirwa serivisi za Leta.

Abantu benshi batonze umurongo, hari abahagaze ariko imbere ku meza yabo hari inkweto z'inkorano zikoze mu ruhu ndetse kandi zifunguye n'izifunze, bigaragara ko bari mu imurikagurisha ry'ibyo bakora.

Ishyirahamwe ry'abantu bari mu gishanga ahahinzwe ibihingwa bitandukanye, ku musozi hahinzwe ishyamba, hagati y'umusozi n'igishanga hari uruzitiro, barasa neza.

Igihingwa cy'umuceri, kiri hafi gutanga umusaruro. Gihinzwe mu gishanga. Hgaragaramo umuntu umwe. Bivuze yuko ari kugikurikirana.

Inzu nini igeretse inshuro ebyiri, ishobora kuba ari isoko cyangwa se ishyirahamwe ry'ubucuruzi.

Umukecuru ukenyeye igitenge wicaye wambaye n'umupira utukura akaba ateze n'igitambaro cy'umweru ku mutwe, afite inkono mu ntoki arimo ayoza kugira ngo ayitekemo kandi iruhande rwe hakaba hari n'ibindi bivaze akora akabigurisha kugira ngo abone amafaranga.

Icyumba kigari kirimo intebe kigaragara kuko cyakira abantu benshi yaba nk'akabari, harimo amatara ari kwaka.

Amacupa menshi cyane umubare munini urambitse hasi ku mbaho, hejuru hari undi mufuka cyangwa se imifuka myinshi iri mu ibara ry'umuhondo.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ari hamwe, bigaragara yuko afunzwemo ubwoko bw'inzoga butandukanye zikorerwa mu nganda, bigaragara yuko ari ku isoko.

Abagabo bari mu kabari bari kuganira bizihiwe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo inzoga, bari ahantu hasa nk'aho hadakeye cyane.

Ibyo kurya biteguye neza, harimo inyama, ifiriti ndetse n'ubwoko bumwe bw'inzoga, bigaragara yuko hari umuntu ugiye gufata aya mafunguro.

Mu isoko rinini ry'ibiribwa n'ibindi bigiye bitandukanye higanjemo inyanya hakaba harimo n'amavuta, intoryi n'ibitunguru n'ibindi byinshi bihahwa kugira ngo abantu bajye kubirya, rikaba rihagazemo umucuruzi arimo agurisha kugira ngo abone amafaranga yo kwiteza imbere n'ayo gukoresha mu buzima busanzwe.

Inzu y'ubucuruzi imanitseho ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bicururizwa muri iyo nzu.

Inzu y'ubucuruzi aho bacuruza imyenda yiganjemo iy'abagore ndetse n'iy'abakobwa, igiye imanitse mu iduka ndetse no hanze ku rubaraza.

Isoko rigizwe n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo indagara, imifuka irimo ifu, ndetse n'amavuta yo guteka, n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Isoko rinini ricururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo abantu benshi biganjemo abagore cyane cyane, ni isoko ririmo inyanya, imbuto zitandukanye ndetse hari n'ibyo bari gupima ku mabasi.

Ibicuruzwa bigizwe n'ubwoko butandukanye: umuceri, ifu, amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, bigaragara yuko biri ku isoko, biri mu cyumba ni ho biri gucururizwa.

Umuhanda wubakishije amapave cyangwa udutafari babumba mu masima duto duto tumeze nk'utuzeru. Uranyura ahantu imbere y'inyubako z'ubucuruzi ndetse izo nyubako zirakinguye, haragaragaramo ibicuruzwa bijye bitandukanye.

Uruvunganzoka cyangwa se abantu benshi bari mu rusengero harimo abari kuramya imana bicaye abandi bari ku ruhimbi, bishimye barasa neza cyane.

Abantu bambaye amakanzu asa y'ubururu bari mu mazi cyangwa se ikiyaga bigaragara yuko umushumba agiye kubabatiza.

Abantu benshi bameze nk'abari mu rusengero, imbere yabo hari umudamu ndetse n'umugabo bapfukamye bigaragara yuko bari gusenga imana.

Ihuriro ry'abana n'abantu bakuru berekeza ku rusengero gusenga, urusengero rugari kandi runini.

Umubare munini w'urubyiruko rwambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru ku bagore cyangwa se abakobwa. Bari mu rusengero. Bigaragara yuko bateze amatwi umwigisha.

Inyubako ya hoteri hoteri icumbikira abantu irafunguye ku muryango wayo munini ndetse hateguye neza hari indabyo zigiye zihateretse mu bikombe.

Icyumba kinini kandi cyiza, giteguwemo uburyamo cyangwa se uburiri, bushashe neza ku buryo ubona ari ahantu h'ahasirimu cyane.

Icyumba giteguwe neza cyane ni icyumba cyo muri hoteli, harimo igitanda gishashe neza kiriho imisego ibiri, gishashishije amashuka y'umweru cyane, harimo n'intebe z'imisego muri icyo cyumba.

Intore iri hejuru irimo imbyino, inyuma ye hari izindi nyinshi ziza zitaraka ziyikurikiye bigaragara yuko ziri kubyina imbyino nyarwanda cyangwa se imbyino gakondo.

Umudamu cyangwa se umukobwa ari mu kabari bigaragara ko ari gucuruza, imbere ye hari icyuma cyabugenewe gikonjesha ibyo kunywa, hirya ye hari ubwoko bugiye butandukanye bw'inzoga zipfundikiye.

Icyumba giteguwe neza harimo igitanda gisa neza, hakuweho ibitambaro kugira ngo umucyo ubashe kwinjiramo, imbere harasa neza harakeye harasirimutse.

Icyumba giteguye neza cyane kirimo n'amarido ariko bayigije ku ruhande ku buryo umucyo uri kwinjira mu cyumba, harimo intebe z'imisego ndetse n'indabyo nziza ziteguye ku meza.

Icyumba cyo kuryamamo giteguyemo igitanda ndetse kiriho n'inzitiramubu. Ni igitanda gisa neza k'igisirimu kimeze neza rwose.

Icyumba bigaragara yuko ari uburyamo, gikingijwe n'amarido, gifite matera, hasi imbere ya matela hari umusambi, giteguye neza cyane.

Icyumba kinini giteguye neza cyane, harimo igitanda gishashe neza n'amashuka y'umweru, hariho imisego ibiri kandi kirakinze icyo cyumba nta muntu urimo.

Ahantu hazitiye hasa nk'ahiherereye imbere ya hoteli, bigaragara yuko ari ubwogero.

Abagabo batandatu bahagaze ahantu ku muhanda, umuhanda munini uri gucamo n'imodoka y'umukara wa kaburimbo. Bari munsi y'igiti, bigaragara ko bari kuganira.

Umuhanda ukoze neza, igice cy'ibumoso hariho indabo cyangwa ubusitani ndetse ukikijwe n'inzu ndende, bigaragara yuko ari inzu za leta cyangwa se iz'abikorera, zikorerwamo ubucuruzi.

Isoko rigizwe n'ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'ibito, harimo ibitoki, harimo inanasi, harimo imbuto, biri gucuruzwa n'abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe.

Umugabo ndetse n'umwana muto. Bari mu muhanda w'igitaka. Bari imbere y'isoko ribera ku muhanda ndetse bigaragara yuko bari kuva mu isoko. Umwana atwaye umufuka mu ntoki.

Umudamu usa neza ari gucuruza imineke mu isoko cyangwa se agenda ayicuruza mu nzira, ameze neza imineke irahiye cyane.

Isoko rinini ribamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ni isoko ribera ahantu ku kibuga hanze gusa hari igice kimwe gishakaje amashitingi, harimo moto ihagaze ndetse n'imifuka irambitse, hari n'aho bacururiza inkweto kandi iryo soko ririmo urujya n'uruza rw'abantu.

Imbabura zikozwe mu ibumba ndetse inyuma yazo zikozwe n'ibyuma zikoreshwa cyangwa se zitekwaho.

Abagore ndetse n'abandi bacuruzi muri rusange bari mu isoko bagenda bacuruza imyenda mu nzira, iyo myenda harimo amakabutura ndetse n'indi myenda abamama cyangwa se ababyeyi bambariramo imbere.

Mu isoko aho ugura n'ugurisha bahurira kugira ngo bahererekanye ibicuruzwa n'amafaranga rikaba ryajemo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo: ibitunguru, inanasi, imyembe n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi bagiye banyuranye bamwe bagenda, abandi bahagaze, abandi bahaha, abandi bagurisha.

Iduka cyangwa se isoko ry'ubucuruzi bw'imyenda muri iryo soko hamanitsemo ibitenge ndetse n'amakanzu y'abadamu, hicayemo umugore yicaye ku ntebe ariko nta bakiriya afite.

Umudamu wikoreye urutaro cyangwa se inkoko iriho ubwoko bugiye butandukanye bw'imbuto, iruhande rwe hari umumotari.

Inyubako nini yisanzuye haragaragara icyumba giteguye neza harimo intebe zigiye zizengurutse ameza, hateguye neza ariko nta muntu wicayemo kandi nta nta n'ibyo kunywa bihari.

Moto iriho abantu babiri iri kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, bose kandi bambaye amakasike, iruhande rw'uwo muhanda hahinze indabyo kandi hari n'ibiti by'ubusitani bwiza.

Umusore ari kugenda mu muhanda w'umukara munini wa kaburimbo arasunika igare ripakiye umufuka urimo umuceri ndetse n'amakarito bigaragara ko atwaye ibicuruza, ibicuruzwa.

Umumotari atwaye umugenzi uhetse igikapu ndetse ukikiye n'umufuka urimo ibintu byinshi cyane biremereye. Bari inyuma y'imodoka nyinshi ziri kugenda muri uwo muhanda, bigaragara ko bageze ku isoko.

Umuntu ukora akazi ko gutwara abagenzi, yicaye kukinyabiziga afite amafaranga mu ntoki, harimo aya magana atanu, aya bibiri arasa neza.

Umumotari atwaye moto, ahetse undi mugabo bari mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari insinga z'amashanyarazi cyangwa se amapoto ndetse haranahinzwe.

Abantu bahagaze ku ma moto yabo bayaparitse, bigaragara ko batari gukora, hari abandi bantu bisa nk'aho ari abagenzi bari kumvikana ibiciro ngo bagende.

Umugabo uhetse abandi bagabo babiri ku igare. Iryo gare ni igare rinini. Hakurya yaho hari inzu ndetse n'urutoki n'ibihingwa nk'ibigori.